Muri gukorera iki hano？ Hano bahakorera iki ko ari heza？ ko wagirango ni mu kabare，umwajenti se nawe akorera muri aka kabari？Ko hubatswe neza？

Uno muhanda ni uw'amapave harya? Cyangwa nta bwo ari uwo bita uw'amapave? Ko waba warasibye? Wajemo ibitaka byinshi nta bwo wamenya ko wari uw'amapave. Wajemo urwondo, nta borudire bawuhaye?

Hano muri zino saro ziba zimeze gutya， baba bogosha neza，baba batera na poruduwi，bagatera na kanta，bagaca n’inzara， ugatanga amafaranga.

Mu cyaro na ho hasigaye harasobanutse, uri kubona ano mazu basigaye bubaka mu cyaro bagashyiraho n'amakaro! Amakaro ntaba mu mugi ra? Abanyacyaro natwe twabaye abanyamugi.

Muri saro barasokoza, barasuka, bagasuka na derede ubashaka wabahamagara kurizi nimero ziri kugikuta.

Aya masafuriya ko yashaje ? Ariko, barimo kuyagurisha mu byuma bishaje. Arashaje , yabaye ubushingwe . N'aya magare se,d did bayagura byuma bishaje ?